Abantu benshi bicaye hamwe, hakaba harimo n'abari guseka, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara. Imbere yabo hakaba hateretse ameza asa umutuku, yiganjeho amakayi ndetse n'amakaramu, ndetse imbere yabo hakaba hari indangururamajwi.

Umugabo wambaye ikoti risa umukara, ishati y'umweru, akaba yicaye mu ntebe isa umukara, akaba yambaye rinete, akaba yicaye imbere y'indangururamajwi, imbere yiiwe hakaba hari ameza ateretseho uducupa tubiri tw'amazi.

Umukobwa wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru n'umukara imbereye hakaba hari ameza ateretseho impapuro, ndetse n'agacupa k'amazi y'inyange ndetse akaba afite n'ikaramu mu kuboko kw'iburyo, ndetse nyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi.

Abantu benshi bambaye imyenda isa umweru iruhande rw'ibumoso hakaba hari abakobwa gusa, iruhande rw'iburyo hakaba hari umusore n'umukobwa umwe, imbere yabo hakaba hari umuzenguruko w'ameza ari umwenda usa ikigina imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye rinete, iruhande rwe hakaba hari igikapu cy'abamama ndetse na telefone.

Icyumba mbera byombi kiganjemo abantu benshi bafite za mudasobwa, basa n'abakurikiye umuhango wo kwita izina ingagi ku nshuro ya makumyabiri, imbere yabo hakaba hari abayobozi bane basa n'abayoboye iki gikorwa, iruhande rwabo hakaba hari televiziyo nini cyane.

Sitade irimo abantu benshi, yiganjemo bambaye imipira z'umuhondo, ndetse n'abambaye imipira isa icyatsi, bakaba basa n'abaje kwihera ijisho, imikino y'imyidagaduro irimo irabera ahano.

Ni urubyiruko ruhuriye hamwe rwiganjemo abakobwa n' abasore. Abakobwa bamwe muri bo bambaye icyatsi ndetse n' amashati asa umweru ariho amajiri asa ubururu bakaba bitandiye udutambaro dusa umweru, mo hagati yabo hakaba hahagaze umusore wambaye ishati isa umweru iruhande rwe hakaba hari abandi bambaye imyenda isa umuhondo.

Inzu isa umweru ku rubaraza rwayo hakaba hicayemo abantu benshi imbere yabo hakaba hari akameza gasasheho umwenda us'umweruru gateretseho ururabyo iruhande rwabo hakaba hateretse izindi ntebe ebyiri zitagize abantu bicayeho, imbere yabo hakaba hari abandi bantu benshi basa n'abari guhugurwa.

Umu mama w'inzobe wicaye, imbereye hakaba hari ameza ateretseho ibirahure, iruhande rwabyo hakaba hariho telefone, ndetse imbere yayo hakaba hari ururabyo, inyuma yiwe hakaba hari abandi bantu benshi bahicaye.

Umugabo wambaye ikoti na karuvate isa umweru, ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'ibumoso, akaba ahagaze kuri aritari, inyuma ye hakaba hari icyaka kiriho umugabo wambaye ishati isa umuhondo.

Itsinda ry'abagabo riteraniye hamwe bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere ya bo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi, ndetse na za mudasobwa. Hagati y'ameza hakaba harimo amavazi iarimo imitako y'indabyo.

Abantu benshi bateraniye hamwe imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amacupa y' amazi mo hagati imbere yabo hakaba harimo umugore wambaye ipantaro isa umukara ndetse n' umwenda wo hejuru usa umweru n' umukara akaba afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw' ibumoso.

Abantu benshi bicaye mu mbuganga ngari, inyuma yabo hari abantu bahagaze, inyuma yabo hakaba hari inyubako itarasozwa kubakwa, imbere yabo hakaba hari abantu bane bahagaze, biganjemo abagore n'abagabo, iruhande rw'iburyo hakaba hateretse ibyuma by'indangururamajwi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bamwe muri bo basa nabari kwitegereza muri tereviziyo, imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi bakaba biganjemo umumama umwe.

Abantu bari mu cyumba K'inama biganjemo abagabo n'abagore imbere yabo hakaba hateretse ibikombe ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere yabo nanone hakaba hari indangururamajwi hakaba harimo abambaye amakoti ndetse n'abambaye amashati.

Abantu benshi bicaye hamwe, imbere yabo hakaba hateretse ameza ateretseho amakaye ndetse n'uducupa tw'amazi, iruhande rwabo hakaba hahaze umugabo urimo uritegereza ku gikuta aharimo harakurikiranirwa amashusho y'ibyateguriwe aho.

Abantu bane bicaye hamwe biganjemo abagabo bambaye amakoti ndetse n' abagore babiri harimo umuzungu imbere ye hakaba hateretse uducupa tw' amazi ndetse n' ibirahure.

Icyumba k' inama kinini kigizwe n' igisenge cyaka amatara asa umweru ndetse n' inkuta zaka amatara asa umweru kirimo imbaga nyamwinshi y' abantu bagiye batandukanye ndetse bicaye ku dutebe dutukura.

Umugaboo uhumirije wambaye amadorobindi asa umukara ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, imbereye hakaba hari ameza ateretseho ubucupa bw'amazi ndetse iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari intebe iticayeho umuntu.

Abantu benshi bicaye hamwe biganjemo abamama n'abapapa imbere yabo hakaba hateretse amakayi n'amakaramu ndetse n'uducupa dutoya tw'amazi yo kunywa no hagati yabo hakaba hahagaze nk'umugabo wambaye ishati y'ubugaraho karo akaba afite n'indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo.

Abantu benshi bahuriye hamwe biganjemo aba mama naba papa bakaba bicaye ku ntebe zisa ubururu imbere yabo hakaba hari ameza atukura imbere yabo bose hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati ndetse ufite n'indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo usa n'uri kubigisha; iruhande rwe rw'ibumoso hakaba hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati isa umweru.

Umugore wambaye umwenda usa umweru, urimo ubudomo busa umukara, ufite indangururamajwi mu kuboko kwe ku bumoso, akaba afite ikaramu mu kuboko kwe ku buryo, imbere ye hakaba hateretse ikirahure kiri ku gasahani bisa umweru, iruhande rwe hakaba hari telefoni iri mu ibara ritukura, iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari undi mumama ufite ikarita mu ijosi isa ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu ihema, imbere yabo bakaba babimburiwe n'abantu bane bicaye imbere y'ameza yiganjemo ibara risa ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi hakaba hateretseho icupa ry'amazi ndetse n'amaterefone.

Abantu benshi bicaye hamwe, bambaye imipira n'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza, ariho ibitambara bisa umukara, akaba ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro, imbere yabo hakaba hari umu mama ufite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo wambaye umupira usa buresiyeri ndetse n'ikoti rici amaboko risa umukara.

Abantu benshi bateraniye hamwe basa n'abari mu nama imbere yabo hakaba hari ameza atukura, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari indangururamajwi.

Abamama bane bahagaze hamwe , harimo umudamu umwe witeze igitambaro, batatu muri bo bakaba bafashe ku rupapuro, inyuma yabo hakaba hari igiti, ndetse impande y'icyo giti hakaba hari abandi bantu, inyuma yabo hakaba hari inzu ihari.

Abantu benshi biganjemo abagabo n' abagore bicaye mu ihema risa umweru hakaba harimo abambaye imipira isa orange, imbere yabo hakaba hari akameza gasa umweru gateretseho ibikapu by' abagore iruhande rwako hakaba hateretse ibindi bikapu bibiri.

Abantu batatu bicaye hamwe barimo umugore wicaye hagati wambaye umwenda utukura ndetse n'amadarubindi, imbere ya bo hakaba hateretse ubucupa bw'amazi ndetse n'ibirahure.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, bakaba bahagaze ku rubaraza rw'inzu ifite ibirahure bya fime, iruhande rw'ibumoso rwabo hakaba hari ivaze irimo ururabo, iruhande rw'iburyo rwabo hakaba hari undi mugabo uri kwinjira, ujya kwaka serivisi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, biganje mo abagore n'abagabo, imbere yabo hakaba hari ameza yateretseho impapuro n'indi icupa turimo ji, inyuma yabo hakaba hari televiziyo isa umukara ku gikuta, i ruhande rwabo hakurya hakaba hari ikibaho cyifashishwa mu kwandika.

Abantu babiri bicaye ku ntebe zisa umukara iruhande rw'iburyo hakaba hicaye umugore wambaye ikote risa umukara ndetse n'amadarobindi, iruhande rw'ibumoso hakaba hicaye umugabo wambaye ishati isa umweu ndetse n'ikaruvati isa ubururu. Imbera yabo hakaba hari indangururamajwi, imbere yabo hakaba hari ameza atukura.

Umugabo wambaye ikoti risa umukara ufite indangururamajwi mu biganza bye akaba akurikiwe n'abantu benshi inyuma y'abo bantu hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'amapoto ariho amatara yo mu muhanda.

Icyumba cy'inama kirimo itsinda ry'abantu benshi batandukanye, bicaye ku dutebe dutukura, imbere ya bo hakaba hari abandi bicaye imbere y'ameza ateretseho uducupa tw'amazi, inyuma ya bo bose hakaba hari imiryango ifunguye.

Ahantu benshi bahuriye hamwe, biganjemo abagabo n'abagore, iruhande rw'intebe zabo bicayeho hakaba hateretse uducupa tw'amazi, iruhande rw'ibumoso hakaba hari umugabo ufite mudasobwa, inyuma yabo bose hakaba harimo umugabo wazamuye ukuboko.

Umukobwa wambaye umupira usa ubururu bwijimye, uriho idarapo ry'u Rwanda akaba yicaye ku ntebe zisa kaki, imbere hakaba hateretse ikaramu, inyuma ye hakaba hari ameza ateretseho agacupa k'amazi, ndetse n'undi musore wambaye ingofero, n'umupira usa n'ubururu bwijimye.

Abantu benshi bigitsina gore bahuriye hamwe bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye umupira usa umweru, iruhande rwe rw'ibumoso hakaba hari kwaka televiziyo nini mu ibara risa ubururu.

Umupolisi wambaye imyenda is' umukara, yiganjemo ibara ris' icyatsi, ndetse ninyandiko zis' umweru, iruhande rwe hakaba ar' abantu benshi ,biganjemo abafite igitambaro kinini, cyanditseho rbc inyuma yabo hakaba hagaragara inyubako ndende.

Abantu benshi bahuriye hamwe biganjemo ingeri zitandukanye abagabo n'abagore hakaba harimo abambaye amakoti ndetse n'abambaye amashati asa umweru bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibitabo uducupa tw'amazi ndetse n'uducupa twa ji ndetse hakaba hari n'indangururamajwi.

Abantu benshi bahuriye hamwe biganjemo abagore n'abagabo bakaba bicaye ku ntebe zisa imikara, hagati ya bo hakaba ari n'ameza asa shokola ateretseho uducupa tw'amazi, ndetse na za mudasobwa.

Abantu benshi bahuriye hamwe basa nkabari munama imbere yabo hakaba hari umuzenguruko w'ameza asa ibara rya shokora ndetse n'umukara hakaba hateretseho za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe zisa umweru, iruhande rw'ibumoso hakaba hari umugabo ufite indangururamajwi, iruhande rw'iburyo hakaba hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara na karuvati itukura, hagati hakaba hari umumama wambaye ikoti, iruhande rwe hakaba hari utubati tubiri dusa umweru duteretseho amacupa y'amazi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye ku ntebe zisa umukara hakaba hari n'umumama wambaye ishati ifite imironko isa umweru ndetse n'umukara, akaba yambaye amadarobindi akaba afite ikaramu mu maboko ye, hakurya yabo hakaba hari undi muntu uhahagaze wambaye imyenda isa umukara ufite igikoreshwo kifashishwa mu gufata amafoto.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'ubukarokaro wicaye ku ntebe isa umukara wateretse amaboko ku meza asa umweru imbere ye hakaba hari icupa rihateretse imbere yaryo gato hakaba hari icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwanditsemo NPC rwanda inyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi batandukanye.

Abagabo benshi bicaye hamwe harimo abambaye amakoti ndetse n'abambaye amashati n'amakarovati imbere yabo hakaba hateretseho ameza atukura ateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa, imbere yabo nanone hakaba hari indangururamajwi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, wambaye rinete, wifashe ku munwa . Imbere hakaba hatereretse icupa, imbere y'icupa hakaba hateretse akapa kanditseho arasi eyi, inyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi biganjemo abagabo babiri bambaye amakoti asa umukara.

Sale nini cyane iri kwaka amatara y'umweru yiganjemo abantu benshi bagiye batandukanye, barimo abazungu n'abirabura, ku ntebe y'imbere iruhande rw'iburyo hakaba harimo umu mama wambaye ikanzu isa umutuku, arimo arareba muri mashini, imbere hakaba hateretse ibikapu bibiri, bisa umukara by'abadamu hasi.

Abantu benshi bahuriye hamwe biganjemo abagore n' abagabo iruhande rw' iburyo hakaba hicaye umugabo wambaye rineti n' ikoti urimo urandika mu ikaye, iruhande rw' ibumoso hakaba hari umugabo wambaye ishati isa ummweru urimo urareba muri terefone ufite ikaramu mu kuboko kw' iburyo. Hakurya yabo hakaba hari izindi ntebe nyinshi ziticayemo abantu.

Umunara usize irangi ry'icyatsi ukaba uzitiwe n'uruzitiro rw'ibyuma iruhande rwarwo rw'ibumoso haba hubatse akazu gatoya gafite irangi risa ubururu hakurya yaho hakaba hari ibiti birebire.

Urubaburo rufite ubuso busa umweru rwandikishijweho amagambo asa umukara, hejuru mu ruhande rw'ibumoso hakaba hariho ijambo RGB ikigo k'igihugu gishinzwe imiyoborere.

Abagabo babiri bahagararanye hakaba harimo umugabo w'umuzungu wambaye ikoti risa umukara, inyuma yabo hakaba hari intebe ndetse n'ameza ateretsemo za mudasobwa, icyumba barimo kikaba kiganjemo ibara risa umweru ndetse n'ubururu.

Urupapuro rugaragaza amasaha agenga akazi mashya kuva mu ntangiriro z'umunsi kugeza ku mpera z'umunsi, rukaba ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda.

Urupapuro rufite ubuso busa umweru, bwiganjemo ikirango cya Rwanda reveni otoriti, kikaba kigizwe n'amabara atandukanye, harimo ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hepfo yacyo hakaba hari uburyo bwo kwinjira kuri uru rubuga rwanditseho viziti mu ibara risa ubururu.

Icyapa kiranga serivisi z'Irembo, kikaba kiriho ibikoresho byifashishwa mu gufata amafoto, kikaba kiriho ibikoresho byifashishwa mu kumva indangururamajwi, hakurya yacyo hakaba hari umuhanda, hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'amazu, inyuma y'icyo cyapa hakaba hari inzu, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ipoto ririho amasinga atwara umuriro.

Imodoka isa ibara ry'umweru, iruhande rwayo hakaba hari ikinyabiziga cya moto, cyo mu bwoko bwa yamaha, hagati yabyo hakaba hateretse amakona, yifashishwa mu gushaka uruhushya, rwemerera abantu gutwara ikinyabiziga cya moto.

Umunara muremure cyane, uzitijwe n'ibyuma bitobito, hakurya yawo hakaba ari inzu yubatse, iruhande rwaho hakaba hari ibiti birebire, ndetse n'indabyo zisa ibara ry'umuhondo.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba cy'amashuri, bakaba bambaye impuzankano ziganjemo amashati asa umweru ndetse n'ipantaro zisa umukara. Imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, basa n'abari kwiga ibijyanye na mudasobwa.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru linete ndetse akaba afite na mudasobwa mu ntoki, iruhande rwe rw'ibumoso hakaba handitswe amagambo ari mu ibara rya buresiyeli ndetse n'ibara ry'umukara.

Urupapuro rugaragaza amwe mu makuru y'ibanze ajyanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro mu kubaka igihugu cyitwa rwanda reveni otoriti.

Umunara muremure wiganjemo amabara asa umweru ndetse n'umutuku, hasi yaho hakaba hari abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari idarapo rirerire ryandikishijweho amagambo asa umweru tigo, hakurya yaryo iruhande rw'ibumoso hakaba haparitse ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abagenzi.

Umunara muremure ugizwe n'amabara asa umweru ndetse natukura imbere yaho hakaba hacaho urusinga rusa umukara inyuma yaho hakaba hari igiti kirekire.

Ipoto rirerire cyane rifatiyeho amasinga atwara umuriro mu bice bitandukanye, hakurya yaryo hakaba hari umusozi muremure uteyeho ibiti byinshi cyane.

Ipoto rirerire cyane ryifashishwa mu gutwara umuriro mu nce zitandukanye rikaba rishamikiyeho amasinga menshi, hakurya yaryo hakaba hari ibiti birebire binini ndetse rikaba riri iruhande rw'umuhanda ufite inkengero zisize'amarangi isa umweru ndetse n'umukara.

Akazu gasa irangi ry'umweru n'icyatsi, gahagazeho abantu bagiye batandukanye, gasa n'agatanga serivise ya esanse ku kinyabiziga nka moto. Hakurya yako hakaba hari inyubako isa umuhondo, imbere yako hakaba hapariste moto icyatsi ndetse n'umukara; zisa nizitegereje gushyirwamo esanse.

Ipoto rirerire ririho amasinga agiye atandukanye atwara umuriro mu bice bitandukanye, inyuma yaryo hakaba hari inyubako ndende, isize zirangi risa umuhondo, ndetse n'umweru ku mpera yaryo.

Amapoto abiri manini cyane ari mu mbuga ngari yifashishwa mu gutwara umuriro mu nshe zitandukanye akaba afatiyeho amasinga agiye atwara umuriro mu nshe zitandukanye hakurya yayo hakaba hari inzu nyinshi ndetse ziganjemo ibiti by'inshi.

U Rwanda rushyize imbaraga mu gukora amajaride no gutunganya umwuka abanyarwanda bahumeka niyo mpamvu hari ubusitani ahantu henshi.

Ipoto rifatiye ho amasinga menshi atwara urumuriro mu duce dutandukanye, iruhande rwayo rw'ibumoso, hakaha bari igiti, imbereye yaryo hakaba hari igipangu, mo imbere yacyo hakaba harimo inzu isakajwe amabati asa umukara.

Agasozi kariho amapoto abiri ariho amasinga atwara umuriro mu nce zitandukanye, hasi yayo hakaba hari ibiti, iruhande rwayo rw'iburyo hakaba hubatse igipangu cy'amatafari ahiye imbere yacyo gato hakaba hari ibiti.

Uruzitiro rwubakishije amatafaritwitse hakaba hari ibyuma, bisize irange ry'umukara n'imbere hakaba haparitse mo modoka iruhande rwazo hakaba hari inzu isize irange risa beje iruhande rwayo hakaba hari ipoto, rirerire rishamikiyeho amasinga menshi.

Ikibanza kiririmo ipoto rifatiho amatsinga ririho itara rimurikira mu muhanda iruhande rwaryo rw'iburyo hakaba hari ibiti hakurya yabyo, hakaba hari inzu zisakajwe amabati atukura ndetse n'izubabatswe mu buryo bwa konoshi, hakuno yazo hakaba hari uruzitiro rw'indabyo ndetse n'insina.

Ipoto rirerire rishamikiyeho amasinga menshi atwara umuriro mu duce dutandukanye, rikaba rifatiyeho n'itara rimurikira mu muhanda inyuma yaryo hakaba hari ibiti byinshi byiganjemo ibyumye ndetse n'ibigifite amababi.

Umugabo wambaye inkweto zifashishwa mu kurira amapoto y'imiriro, akaba yihambiriye imigozi, akaba yambaye ingofero isa umuhondo, akaba afashe ku masinga atwara umuriro mu nce zitandukanye ku ipoto ishamikiyeho amasinga menshi.

Ipoto ritoya ritwara umuriro mu nce zitandukanye, imbere yaryo hakaba hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye gisize n'irangi ry'ijimye, mu imbere hakaba harimo inzu isakarishijwe amabati atukura ,inyuma yayo hakaba hari ipoto rifatiyeho amasinga ajyana umuriro mu nce zitandukanye ,hakurya yaryo hakaba hari ikibaya kirimo amazu menshi ndetse n'ibiti.

Ipoto rirrerire rifatiyeho amasinga ajyana umuriro mu bice bitandukanye, iruhande rwaryo hakaba hari ipoto ririro itara rimurikira mu muhanda, hakurya yaryo hakaba hari andi mapoto menshi ariho amatara amurikira mu muhanda, inyuma yayo o hakaba hateye ibiti.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu benshi, hakaba harimo imodoka zitandukanye, hagati hakaba harimo amapoto atwara amasinga y'umuriro mu bice bitandukanye, ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira umuhanda. Hakurya yawo hakaba hari inyubako yanditseho Simba supamaketi.

Umumama uri ku nkengero z'umuhanda mu nzira yahariwe abanyamaguru, akaba yambaye umupira usa ubururu, iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari ipoto iriho amasinga ajyana umuriro mu nce zitandukanye, iruhande rwayo hakaba hubatse igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisize irangi ryijimye. Hakurya yacyo hakaba hari ibiti byinshi.

Ipoto ndende ifatiyeho amasinga atwara umuriro mu bice bitandukanye iruhande rwayo hakaba hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hakurya yacyo hakaba hari inzu isakajwe amabati atukura, hakurya yacyo iruhande rw'iburyo hakaba hari igipangu cyirimwo imodoka isa ibara ry'umweru, iruhande rwayo hakaba hari umuntu uhahagaze.

Imodoka isa umukara ifite itara ritukura, iruhande rwayo hakaba hari umugabo uri kuri telefoni, iruhande rwe hakaba hari ipoto rirerire ririho amasinga ajya mu nshe zitandukanye, imbere yaryo hakaba hari umutaka wa Emutiyene, imbere yaho hakaba hari icyapa gitukura cyanditseho sitopu, hakurya yacyo hakaba hari abantu, imodoka, ndetse n'inzu.

ipoto ryifashishwa mugukontorora amashanyarazi ajya muduce dutandukanye rikaba rifatiyeho amasinga menshi atandukanye inyuma yaryo hakaba hari ishyamba ryibiti byinshi.

Ubusitani bunini cyane bwiganjemo ibyatsi bigufiya ndetse bukaba burimo n'ibiti birebire, hakurya yabyo hakaba hari parikingi iririmo imodoka imwe, hakurya yayo hakaba hari inyubako isize irange ryijimye ndetse n'irisa umweru.

Inzu isize zirangi risa umuhondo ikaba ifite imiryango n'amadirishya bisize irange risa ivu. Mo imbere hakaba hari n'utubati twifashisha mu kubika ibikoresho ikaba ifite amakara asa umukara ku gikuta hanze hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Icyapa gisa icyatsi cyandikishijweho amagambo asa umweru, iruhande rwacyo hakaba hari inzu ihari yubakishijwe amatafari ahiye, hepfo yaho gato hakaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati atukura. Iruhande rwayo hakaba hari itara rirerire rizwi nk'irimurika mu muhanda.

Imodoka isa umweru izwi nk'imbangukiragutabara yifashishwa mu kugeza indembe ku bitaro, hasi yayo hakaba hari ama esikariye, iruhande rwayo hakaba hari amabuye asize irangi ry'umuhondo n'umukara, imbere yayo hakaba hari izindi modoka zihaparitse, imbere yazo hakaba hari uruzitiro rw'indabyo.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, mo imbere hakaba hari mo icyuma kimanitse ho itara, imbere yacyo hakaba hari urubaraza rwubakishijwe ibyuma bisakajwe amabati, hakurya yarwo hakaba hari inzu isakaje amabati atukura.

Uruzitiro rwubakishijwe amatafari atwitse ruriho icyapa gifite ubuso busa umweru cyandikishijweho amagambo mu ibara risa icyatsi , hakurya yacyo hakaba uruzitiro rw'ibiti, mu imbere hakaba hari inzu isakajwe amabati atukura

Umugore wambaye umupira usa ubururu wandikishijwemo amagambo asa umweru akaba yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ndetse n'amadarubindi, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa, iruhande rw'ameza hakaba hateretse andi meza ariho agakarito kiganjemo ibara risa umweru n'umukara.

Umugabo wambaye itaburiya isa umweru uhagaze imbere y'akabati gasa umweru gateretseho akandi gasa shokola, imbere yehakaba hari umumama wambaye itaburiya isa umweru wicaye kugatebe gasa umukara, inyuma yaho hakaba hari indi ntebe iriho umuntu usa nk'utameze neza.

Akazu gasa umuhondo ka Emutiyeye, imbere yako hakaba hari umukobwa uhahagaze wambaye jire isa umuhondo, hakurya yako hakaba hari inyubako igeretse isi ibara ryijimye, ndetse n'ibara ry'umweru, imbere yayo hakaba hari amahema abiri, ndetse n'ibiti birebire by'imikindo.

Imodoka y' imbangukiragutabara isa ibara risa umweru ndetse n' iritukura hakurya yayo hakaba hari inzu isakajwe amabati atukura, hakurya yayo hakaba hari ikibaya kigizwe n' ibyatsi ndetse n' amazu menshi.

Akazu kifashishwa mukwakira abantu baje kwaka serivise mu bitaro, hakuno yako hakaba hari parikingi irim' imodok' eshatu, hakuno yazo hakaba hari umumam' uhicaye, ndetse iruhande rwe hakaba hari teremusi usa nawe n'uje kwaka serivise mu bitaro.

Imbuga ngari yiganje nk'ibyatsi bigufi, ikaba iri imbere y'inyubako zubakishijwe amatafarihiye, iruhande rwazo hakaba hateretse indobo itukura yifashishwa mu kubika imyanda, iruhande rwayo hakaba hari andi masashi menshi asa ibara ry'umuhondo.

Ikigo cy'amashuri kiganjemo abantu batandunkanye kikaba kirimo ibyuma bifatiyeho amatara hakaba karimo n'agasanduku k'ibitekerezo gasize irangi risa umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu ntebe basa n'abategereje serivisi imbere yabo hakaba hari abandi bahagaze ku madirishya basa n'abari guhabwa serivisi yo kwa muganga.

Imbuga ngari cyane, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'ibyatsi bugufi buteretsemo ingunguru ndetse harimo abagabo batatu, iruhande rwayo rw'ibumoso hari inzu isize irangi risa umuhondo, isakajwe amabati atukura, iruhande rwayo rw'iburyo hari abantu babiri bahicaye.

Icyapa kinini cyane gifite umuzenguruko usa umukara ndetse n'ubuso busa umweru bwiganjemo amagambo yandikishije ibara risa umuhondo ndetse n'umweru kigaragaza ibitaro bya kacyiru inyuma yacyo hakaba hari ururabyo rurerure hakurya yarwo hakaba hari inzu isize irangi ry'umuhondo .

Umugabo wambaye ikoti ritukura na karuvati ifite umutako w'umweru akaba yambaye ingofero yiganjemo umukara n'umuhondo akaba yambaye na lunette.

Umugabo wambaye imyenda y'imfungwa isa iroza, ufite ikayi isa ibara rya buresiyeri mu maboko ye, akaba yambaye agapfukamunwa gasa umweru, akaba yicaye mu ntebe isa ibara ry'umukara. Inyuma ye hakaba hari abantu bacunga umutekano.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu mbuga ngari basa n'abari muri gacaca, mo hagati hakaba harimo umugabo wambaye ishati ifite y'amaboko magufiya imbere yiwe hakaba hari abantu bahicaye, biganjemwo abamama n'abagabo, hakaba hari umugabo iruhande rw'iburyo hagaze ufite urupapuro usa n'uri gusomera uyu mugabo akaba yambaye igitamba cyiganje mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye linete uhagaze hagati y'ububiko bw'amakarito yanditseho gacaca akaba ariho ndetse n'izindi mpapuro, akaba asa n'uri kurangirana ikarito.

Umugabo wambaye ikote ryirabura ndetse n'ishati y'umweru ndetse na linete, inyuma ye hari undi mugabo wicaye ndetse n'inyuma ye hakaba hari undi muhabo wicaye, inyuma yabo hakaba hari undi umugabo uhagaze mu rugi wambaye imyenda isa umukara.

Umugabo wambaye ikanzu isa umukara, yiganjemo ibara risa umweru, akaba afite indangururamajwi mu kiganza cy'iburyo, ibiganza bye byombi bikaba byambaye impeta, imbere hakaba hari ameza ateretseho impapuro na telefone, iruhande rwe hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abacamanza babiri bambaye amakanzu asa umukara yiganjemo ibara risa umweru, mo hagati hakaba harimo abamama babiri Diane Rwigara, ndetse na mama wiwe imbere hakaba hari ameza ateretseho impapuro nyinshi, ndetse na mudasobwa ndetse n'agacupa kamanzi yo kunywa.

Umugabo wambaye ikanzu itukura, isa mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba yambaye ingofero isa umukara irimo umurongo uyizengurutse usa umuhondo, inyuma y'iwe hakaba hari icyapa gisa icyatsi, cyandikishijwemo amagambo asa umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye hamwe biganjemo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe zisa ubururu bambaye amakanzu atukura arimo umurongo usa mweru imbere bambaye ingofero zisa umukara zirimo umurongo w'umuhondo.

Abagabo batanu bicaye hagati hakaba harimo umugabo wambaye rinete imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho amakaye n'ibitabo bakaba bambaye udutambaro tugizwe n'amabara y'idarapo ry'igihugu cy'u rwanda yiganjemo icyatsi umuhondo n'ubururu.

Abantu babiri begeramye umwe wambaye ishati isa bulu esiyeli uhetse igikapu gitukura, undi wambaye mumyenda ikozwe mubitenge, imbere yabo hakaba hari umugabo uhahagaze, wambaye imyenda isa icyatsi, hakurya yaho hakaba hari inyubako igeretse.

Imodoka ebyiri za polisi ziganjemo ababara asa umweru ndetse n'umukara, hakurya yazo hakaba haparitse Indi modoka isanzwe, imbere yazo hakaba hari umusore wambaye imyenda isa umukara, inyuma yazo hakaba hari inyubako ndende yiganjemo ibara ryijimye.

Igikoresho bibashisha mukuzimya umuriro, kikaba gifatiye ku gikuta kiganjemo ibara ritukura, iruhande rwacyo hakaba has'umweru kikaba gifasheho agapapuro gas'umuhondo n'umutuku.

Ibikoresho bibiri bisa irange ritukura, byifashishwa mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro, hakaba hari igiteretse hasi, hejuru yacyo hakaba hari ikindi gifashe ku rukuta.

Abagabo batatu bambaye imyenda isa umukara, yiganjemo ibara ry'icyatsi n'umweru, bafite itiyo mu maboko, yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, irimo irasohokamo amazi menshi, iruhande rwabo rw'iburyo hakaba hari kontineri, basa nk'aho bari kuyizimya.

Akazu k'abagenzi gasa ibara ry'ubururu, inyuma yako hakaba hari igipangu cy'amatafari ahiye, hejuru yako kakaba gatwikirijwe n'igiti cyakuze, imbere yako hakaba hari abapolisi babiri umwe wambaye iniforume zubusa umukara, ndetse n'undi wambaye iniforume ziganjemo umukara, umweru, ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Umutaka wa sosiyete ikora ubucuruzi bw'itumanaho eyateri, uteretse impande y'umuhanda munsi y'umutaka hakaba arimo umukobwa wambaye ijiri y'umuhondo ya emutiyene, impande yaho gato hakaba hari gutambuka undi mugabo, impande yaho gato, hakaba hari abaporisi babiri bahagaze, basa n'abitegereza uburyo ki ibinyabiziga birimo birahita mu muhanda.

Ikinyabiziga cy'imodoka kiri mu muhanda gisi ibara ry'umweru, iruhande rwacyo hakaba hari ibinyabiziga bya moto, imbere yabyo hakaba harimo ya polisi yiganjemo amabara asa umukara ndetse n'umweru, iruhande rwayo hakaba hari ibiti byinshi.

Umupolisi uhagaze impande y'umuhanda yambaye imyenda yiganjemo ibara risa umukara n'icyatsi, imbere ye hakaba hari umuntu urikwambuka mu rwambukiro rw'abanyamaguru, imbere yiwe hakaba hari abanyamagare, hakurya yayo hakaba haparitse amamodoka menshi ndetse n'inyubako ndende.

Inyubako igeretse iriho icyapa gisa umweru, cyanditseho Rwanda nashono polisi nk'ibiro bikuru bya polisi y'Urwanda, imbere yayo hakaba haparitse imodoka, iruhande rwazo hakaba hari abantu batandukanye.

Umukobwa wambaye umupira utukura, ndetse n'ipantalo isa umukara, iruhande rwe rw'iburyo hakaba hari abapolisi babiri bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi n'umukara, imbere yabo hakaba haparitse moto isa umweru, imbere yayo hakaba haparitse imodoka, hakurya yayo hakaba hari inyubako zitandukanye.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yambaye umupira utukura wiganjemo ikirangantego cya Efuperi, akaba yambaye agapfukamunwa gasa umukara ndetse n'amadarubindi asa umukara hakiyongeraho n'ingofero isa umukara, inyuma hakaba hari imbaga nyamwinshi y'abantu benshi bamushyigikiye.

Icyumba cy'itora cyiganjemo amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, ubururu, Kikaba kirimo abantu batatu, iruhande rw'ibumoso hakaba hari umukobwa wambaye umwenda usa umweru ndetse n'ingofero isa umweru, imbere ye hakaba hari umumama witandiye usa n'uri guhabwa serivisi, hakurya yiwe hakaba hari umugabo wambaye ikoti risa umukara, imbere ye hakaba hateretse akameza gasa umuhondo n'ubururu.

Abamama bane bahagaze iruhande rw'ibumoso bwabo hakaba hari idarapo ry'ikirango k'igihugu cy'u Rwanda, iruhande rw'iburyo bwabo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hejuru hagati yabo hakaba hari ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Poro Kagame.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bari hamwe bafite amabendera yiganjemo ibara ritukura ubururu ndetse n'umweru bigaragaza ishyaka rya FPR imbere y'abo hakaba hari abandi bagabo bambaye imyenda isuumukara ndetse n'ingofero ziganjemo amagambo yandikishije umweru hakurya yabo hakaba harinte yiganje mu ibara risa'umutuku ndetse umwe ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bari ku murongo umwe, inyuma yabo hakaba hari umugabo wambaye ikoti risa ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto zisa umukara akaba ahetse n'igikapu ku mugongo we. Bakaba bahagaze imbere ya tente zifite umuguno wiganjemo ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Umukuru w' igihugu cy' u Rwanda Paul Kagame akaba yari yambaye ikote risa umukara ndetse n' ishati isa umweru n'ikaruvati isa umukara ndetse n' amadarubindi asa umukara, inyuma ye hakaba hari abantu bambaye imyenda isa umukara bashinzwe umutekano wiwe.

Abantu benshi bahuriye hamwe biganjemo abagabo n'umugore, iruhande rw'iburyo hakaba hari umugabo wambaye ikoti risa umukara ndetse n'ishati isa umwaru n'ikaruvati yiganjemo imirongo isa umukara n'umweru, imbere hakaba hatereretse agacupa k'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wambaye umupira muremure w'amaboko ufite ikirango cya efuperi, akaba yambaye lineti ndetse n'ingofero y'umukara iriho ikirango cya efuperi, akaba ari hagati y'abaturage benshi bafite idarapo ryiganje mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'iritukura rigaragaza ikirango cy'ishyaka rya efuperi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hakaba hari ameza asa umukara iruhande rw'ibumoso hakaba hicaye umufasha w'umukuru w'igihugu cy'urwanda nyakubahwa Jannette Kagame.

Abantu benshi bihurije hamwe, bamwe bambaye imipira y'umweru abandi bambaye imipira yu'ubururu, n'undi wambaye umupira wumukara, bakaba bambaye ingofero zirimo ikirango cya efuperi ndetse bakaba bafite n'amadarapo ari mu ibara ritukura umweru ndetse n'ubururu, bimwe mu biranga ishyaka rya efuperi.

Umu mama wambaye imyenda ikozwe mu bitenge, wicaye ku ntebe itereste mu busitani burimo ubwatsi bugufiya, akaba yambaye umutako ku kuboko kw'ibumoso, akaba afite agakapu gateretse ku bibero byiwe. Hakurya yiwe hakaba hari uruzitiro rwubakishijwe indabyo.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'idararapo, umugabo umwe wambaye imyenda isa umukara, imbere ye hakaba hari umugabo uzamuye ukuboko, wambaye umupira usa umweru, bakaba bari imbere ya'ban benshi, biganjemo abafite utudarapo, twiganje mu ibara ritukura ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, impande yaho hakaba hari jaride, impande ya jaride hakaba hari imodoka iparitse, hakurya y'imodoka hakaba hari amahema, ndetse inyuma y'ayo mahema hakaba hari amazu yubakishijwe amabati atukura.

Umuntu wambaye umupira usa umukara ingofero isa umweru birimo ikirango cya efuperi mu kuboko kwe kw'iburyo hakaba harimo idarapo ry'ishyaka rya Efuperi imbere hakaba hari indangururamajwi.

Abantu benshi b'igitsina gore bahuriye hamwe biganjemo abambaye imipira is’ icyatsi hakaba harimo uwambaye ipantaro isa y'ubururu wambaye ikoti risa umukara akaba yitandiye igitambaro gisa umweru akaba afite nikaye mu kiganza cy'ibumoso.

Umumama wambaye umwenda utukura, akaba afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, akaba yambaye amaherena asa umweru, akaba asa n'urimo aratanga ibiganiro ku mbaga nyamwinshi y'abantu.

Abantu benshi bahuriye hamwe bafite amabendera muntoki yiganjemo ibara ritukura umweru ndetse nubururu hagati yabo hakaba harimo umugabo uri mumodoka wambaye ishati isa shokora ndetse ningofero yumukara.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe, bafite amabendera ari mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku yanditsemo ijambo efuperi, basa nk'abishimira insinzi y'ishyaka rya efuperi.

Abagabo babiri bahagaze, iruhande rw'iburyo hakaba hari umugabo wambaye ikoti risa umukara imbere ye hakaba hari indangururamajwi, inyuma yabo hakaba hari abandi abamama babiri bicaye k'untebe zisa icyatsi, inyuma yabo hakaba hari abandi bafite igipapuro kinini basa n'abari kwamamaza MUHAYIMANA Philipe.

Abagabo babiri bahagaze bari guseka, iruhande rw'iburyo hakaba hari jenerare Mubaraka Muganga umwambaro w'icyubahiro nk'umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'Urwanda. Iruhande rw'ibumoso hakaba hari minisitiri w'intebe Edwauard Ngirente, inyuma yabo hakaba hari ikirango cy'igihugu.

Imodoka isa, ibara ry'icyatsi ryiganjemo imirongo itukura ndetse n'imirongo isa umuhondo iruhande rwayo hakaba hari umusore ufite ipine ry'imodoka mu maboko, imbere ye hakaba hari undi musore wikoreye umufuka usa umweru, hakurya yayo hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'undi mutwe utukura w'imodoka.

Parikingi irimo imodoka zisa ibara ry'umweru ryiganjemo ibara ry'umuhondo, imbere yazo hakaba hari ibiti by'imikindo ndetse n'igitambaro gisa irange rya oranje. I ruhande rwabyo hakaba hari umuryango urimo icyapa gisa ubururu cyandikishijwe mo ibara ry'umweru rya samusanga.

Imodoka nini itwara imizigo mu bice bigiye bitandukanye by'isi, hakurya yayo hakaba hari ibiti byinshi cyane, imbere yabyo hakaba hari ipoti iriho itara rimurikira mu muhanda hejuru yaryo hakaba hari amatsinga atwara umuriro muce zitandukanye.

Umumotari uri kukinyabiziga cya moto kiri mumuhanda wiganjemo imirongo isa umwere n'umuhondo imbere yacyo hakaba hari urwambukiro rw'abanyamaguru, hakurya yarwo hakaba hari ubusitani bwiganjemo ibiti ndetse n'amapoto maremare ariho amatara amurikira m'umuhanda.

Umugabo wikoreye umufuka kurutugu, iruhande rwe hari imodoka yiganjemo ibara ry'umukara n'umweru, iruhande rwayo hakaba hari imodoka nini itwara imizigo, isa ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hakurya yayo hakaba hari ibiti birebire.

Imodoka itwara imizigo yo mu bwoko bwa dayihatsu. Iruhande rwayo rwibumoso hakaba hari kunyuraho umugabo, iruhande rwayo rw'iburyo hakaba hari imizigo iteretse, ipfukishijwe amahema asa ubururu. Hakaba hari n'ikindi cyapa kigaragaza ko nta parikingi iri ahongaho.

Umugabo wambaye ingofero isa umweru, umupira usa umukara ushoreye igare ripakiye udufuka hakurya yaryo hakaba hari uruzitiro mo imbere mu ruzitiro hakaba harimo ibiti birebire.

Imodoka nini itwara imizigo, iri mu muhanda, hakurya yayo hakaba hari uruzitiro rw'urushundura rusa icyatsi, hakurya y'urwo ruzitiro hakaba harimo ibiti birebire, bigiye bitandukanye.

Imodoka nini cyane yiganjemo ibara risa umweru ikaba yifashishwa mu gutwara ibisukika hejuru yayo imbere hakaba hari agatara kari mu ibara risa umuhondo hakurya yayo hakaba hari ibiti byinshi.

Abagabo babiri bari ku igare umwe uyoboye wambaye umupira w'umuhondo utwawe akaba umupira usa ubururu, hakurya yabo hakaba hapariritse imodoka isa ibara ry'umweru yifashishwa mu gutwara imizigo hakurya yayo hakaba hari ibiti byinshi.

Ibinyabiziga byinshi biri ahantu hamwe bya moto byiganjemo abamotari bambaye amajire asa ubururu, ndetse n'abambaye amajira z'umuhondo ndetse n'ibara rya bulesiyeri, imbere yabyo hakaba hari umusore uhagaze wambaye ishati isa umukara, ndetse n'inkweto z'umweru hakurya yabyo hakaba hari igiti kirekire.

Umumotari uri mu muhanda, wambaye ijire isa umuhondo n'ubururu, imbere ye hakaba hari icyapa, iruhande rwabyo hakaba hari indabyo, iruhande rwe hakaba hari akazu gasa umweru, inyuma yako hakaba hari inzu y'umuturirwa ndende.

Imodoka itwara imizigo igizwe n'ibara ry'ubururu ikaba yanditseho medi ini Rwanda iruhande rwaho rw'iburyo hakaba hari umuntu usa n'uri kwambuka mu umuhanda, ndetse n'imbere yaho gato hakaba hari imodoka itwara abagenzi izwi mu bwoko bwa hiyasi.

Imodoka ntoya yifashishwa mu bigo byigisha gutwara imodoka, imbere yayo hakaba hari ibindi binyabiziga by'imodoka, hakurya yabyo hakaba hari umuntu wambaye umpira usa ibara rya orange, akaba afite n'ibahasha mu kuboko kw'ubumoso, hakurya ye hakaba hari amapoto ariho amatara menshi amurikira mu muhanda.

Umumotari utwaye ikinyabiziga cya moto, akaba ymbaye ijire isa umuhondo ndetse n'ibara rya bureseri, iruhande rwe hakaba hari ikinyabiziga cy'imodoka gisa umukara inyuma yaho hakaba hari ikindi kinyabiziga cya moto, iruhande rwabyo hakaba hari ubusitani bwiganjemo indabyo ngufiya ibiti birebire by'imikindo ndetse n'ipoto rifatirwaho itara ryo mu muhanda.

Uyu ni umuhanda wa kaburimboko urimo moto ziri kugenda n'imodoka, hirya y'umuhanda basizeho akayira k'abagenzi hepfo hari icyapa cyanditseho pi n'ibiti n'indabo.

Imodoka iri mu muhanda yiganjemo ibara risa ubururu ndetse n'umweru hakurya yayo hakaba hari umuntu urimo urahaca, inyuma yiwe hakaba hari ipoto ririho itara rimurikira mu muhanda, inyuma yaryo hakaba hari ibiti byinshi.

Umuhanda uparitswemo imodoka ifite ibara ry'umweru, ifite umurongo w'umuhondo, ikaba irimo umugabo wambaye umupira utukura, hakurya yayo hakaba hari ipoto risize irangi risa umweru, hakurya yaryo hakaba hari ibiti.

Ikinyabiziga bya moto gisize ibara risa ubururu, gisakaje ihema risa ibara rya beje, hakurya yacyo hakaba hari ipoto risa umweru, ririho itara rimurikira mu muhanda, inyuma yaryo hakaba hari ibiti.

Ikinyabiziga cya moto kiri mu bwoko bw'ibyifashishwa mu gutwara imizigo mu nce zigiye zitandukanye kikaba kigizwe n'ibara risa ubururu ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ri'mweru hadibodi imbere yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cyo mu bwoko bumwe niki.

Imodoka ya arabiyeyi yiganjemo ibara rya buresiyeri, umuhondo, ndetse n'umweru, inyuma yayo hakaba hashinze ipoto risa umweru, inyuma yaryo hakaba harimo igiti kirekire cy'umukindo, ndetse inyuma yayo hakaba hari n'umumotari wambaye ijiri isa umuhondo.

Parikingi y'ikinyabiziga cya moto zizwi nka zimwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo, kuri moto ya kabiri hakaba hahagaze umugabo wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro yumukara, ishati y'ubururu ndetse n'agapira kiganjemo ibara ritukura n'umukara ndetse n'ingofero itukura.

Ikinyabiziga cya moto gisa ibara ry'ubururu cyifashishwa mu gutwara imizigo imbere yacyo hakaba hari ikinyabiziga cya moto cyifashishwa mu gutwara abagenzi, imbere yacyo hakaba hari ikinyabiziga cy'imodoka, hakurya yabyo hakaba hari parikingi irimo imodoka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Imodoka yifashishwa mugutwara abagenzi, isa ibara risa umweru ndetse hakaba harimo n'irindi bara risa buresiyeri, hakurya yayo hakaba hari umunyamaguru uri mu kayira kahariwe abanyamaguru, imbere y'iwe hakaba hari ikinyabiziga cya moto gitwaye abantu babiri inyuma yacyo hakaba hari ikindi ikinyabiziga cya moto.

Ikinyabiziga gisa ibara ry'umweru ndetse na kontineri itukura, hakurya yacyo hakaba hari uruzitiro rusa icyatsi, hakurya yarwo hakaba hari n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bigufiya.

Imodoka nini iri mumuhanda itwara imizigo, yiganjemo ibara risa umuhondo n'umweru, ikaba ifite indi ihetse inyuma isa ibara ry'umweru, hakurya yayo hakaba hari ibiti birebire, hakurya yabyo hakaba hari amazu menshi.

Imodoka eshatu ziparitse mu muhanda hakaba harimo imwe isa ubururu irimo umugabo uhagaze mo imbere i ruhande rw'iburyo rwayo hakaba hari isa umweru ifunguye ipakiyemo ibikoresho bigiye bitandukanye, inyuma yayo hasi hakaba hateretse amahema atandukanye.

Inzu ndende imeze nk'aho ari umunara usize amarange y'icyatsi, ndetse birumvikana iri gipangu cy'amatafari ahiye, hakaba hari urugi runini cyane ruteye amarange y'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati isa ubururu, yarengejeho ijiri isa cyatsi ndetse n’imirongo isa umukara, akaba yambaye ni ipantarosi isa ibara rya beje. Ndetse akaba yambaye n’inkweto zifunze zifashishwa mu mirimo y’amaboko isanzwe. Imbere ye hakaba hari ingorofani usa n’urimo akora amasuku mu busitani buhegereye, butarafata neza.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abagenzi, imbere yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga n'inyuma yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cyihaparitse mo hagati hakaba hari gucamo umumama wambaye ikanzu isa umweru, iruhande rwacyo hakaba hari undi muntu uhahagaze, hakurya yacyo hakaba hari ikigega gisa ibara ry'ubururu gihari.

Umuntu urimo urambuka mu muhanda wambaye imyenda isa umukara iruhande rwe hakaba hari guhitaho ibinyabiziga bibiri, hakurya yabyo hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, hakurya yabo hakaba hari ibinyabiziga bya moto, hakurya yabyo hakaba hari icyanya cyahariwe mu gutanga serivise yo kubona esanse ndetse na mazutu byifashishwa mu binyabiziga byo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo iimodoka nini itwara imizigo iruhande rwayo rw'ibumoso hakaba haparitse umumotari, iruhande rw'iburyo hakaba hari ibiti byinshi, ndetse n'icyapa cyanditseho mirongo itandatu imbere yacyo hakaba hari umugabo wambaye ikote risa umukara.

Ikinyabiziga cya moto cyo mu muhanda cyifashishwa mu gutwara imizigo, iruhande rwa cyo rw'iburyo hakaba hari ikinyabiziga cy'imodoka iruhande rwa cyo rw'ibumoso hakaba hari ibiti byinshi, inyuma yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga kinini cyane kifashishwa mu gutwara abagenzi.

Ibinyabiziga bibiri bya moto biri mu muhanda, imbere yabyo gato hakaba hari ikinyabiziga k'imodoka gisa umweru, inyuma yacyo gatoya hakaba hari umumama wambaye umupira utukura, hakurya yiwe hakaba hari inyubako ihari ikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Imodoka nini itwara imizigo isa ibara ryiganjemo icyatsi n'umutuku iri mu muhanda, iruhande rwayo hakaba hari ikinyabiziga cya moto hakurya yayo hakaba hari izindi modoka zihaparitse zirimo izisize irange risa n'ubururu, hakurya yazo hakaba hari ibiti byinshi birebire.

Parikingi y'imodoka irimo imodoka ebyiri nini zifashishwa mu gutwara abagenzi, ziganjemo ibara risa ubururu ndetse n'umweru. I ruhande rwazo hakaba hari umuntu wambaye umupira utukura, imbere yiwe hakaba haparitse indi modoka yifashishwa mu gutwara abagenzi. I ruhande rwayo hakaba hari utuzu twicaramo abagenzi.

Parikingi isa ikigina, yiganjemo imirongo isa umweru, ikaba ikikijwe n'urushundura rufite umuguno urimo amabara y'umweru ndetse n'atukura, hakurya yayo hakaba hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisize n'irangi risa umukara, mo mbere hakaba harimo inzu.

Inzu ebyiri zirebana zubakishijwe amatafari ahiye. Zikaba zisakajwe amabati atukura, iruhande rwazo hakaba hari ibiti bigufiya, iruhande rwabyo nanone hakaba hari ipoto rirerire, ririho amasinga abiri atwara umuriro mu nce bitandukanye.

Ahantu rero nk'uko ubibona ni ahantu ushobora kuza guhahira harimo amakaro menshi cyane y'umukara ariko havanze n'ivuna n'andi, urahabona amavuta, ibindi bintu byo kwihumuza ku mubiri n'imyenda. Ni byiza cyane kurushaho kuzana nawe ukigurira.

Icyapa gifite umuzenguruko utukura ubuso busa umweru ikirango gisa umukara kiburira ko mu muhanda hari ibikorwa by'ubwubatsi birimo birahakorerwa.

Umugabo uhagaze ku nyengero z'umuhanda wambaye ipantalo isa umukara ufite igikapu gisa umukara ku bitugu inyuma ye hakaba hari icyapa gitanga ikaze mu gihugu cy' u Rwanda ndetse kinatanga icyerekezo cy'Akarere cya Rusizi inyuma yacyo hakaba hari ibiti birebire byinshi.

Icyapa gifite umuzenguruko usa umweru, ubuso busa ubururu, ndetse n'ikirango gisa umweru k'imodoka iruhande ryacyo hakaba hari inzira y'abanyamaguru, kikaba kiri mu busitani bwiganjemo ibyatsi bigufi, ndetse n'indabyo ndende. Hakurya yabwo hakaba hari inyubako isa ibara rya berije ndetse n'ibirahur bisa ibara rya bulesiyere.

Icyapa gifatiye kubyuma bitatu kerekana icyerekezo cy'uturere dutandukanye inyuma yacyo hakaba hari igiti kirekire, iruhande rwacyo rw'iburyo hakaba hari inzu isakarishije amategura hakurya hayo hakaba hari indi isakarishije amabati.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho rw'iburyo hakaba hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwaho hakaba hari icyapa kigaragaza urwambukiro rw'abanyamaguru, iruhande rwaho hakaba hari jaride igizwe n'indabyo ngufiya.

Icyapa kigizwe n'impande eshatu gifite umuzenguruko utukura, kigizwe n'ubuso busa umuhondo, hagati harimo ikirango gisa umukara, kiburira abantu ko hari ibikorwa by'ubwubatsi buri kuba.

Imitaka myinshi igiye itandukanye harimo imitaka itukura ya eyateri ndetse n'uw'icyatsi wa infinigisi imbere yaho hakaba hateretse akabati gacururizwaho, amarinite imbere y'aho hakaba abantu benshi batandukanye harimo uwambaye ijiri ya emutiyene, isa umuhondo hakurya y'aho hakaba hari inzu iriho y'icyapa cya eyateri.

Inzu ifite urubaraza rwubakishije imbaho, mo imbere hakaba hicayemo abagabo batatu imbere yabo hakaba hateretse uturahure dutandukanye ndetse n'icupa ry'amazi, inyuma yarwo hakaba hari kandagira ukarabe hejuru yaho hakaba hateretse agacupa karimo isabune.

Igipangu kirimo inzu isakarishijwe amabati atukura, imbere yayo hakaba harimo ibigega bisa umukara, hakurya yabyo hakaba hari utuzu twubakishijwe amatafari ahiye, dufite imiguni isizwe irangi ryijimye duteretseho ibigega byinshi biri ku murongo.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Inzu yubatswe mu bwoko bwa konoshi, ifite akapa kigaragaza nimero magana abiri na rimwe. Inyuma yaho hakaba hari indi nyubako igeretse rimwe, ikaba isakarishije amabati atukura.

Abantu batatu bari kugenda mumuhanda, imbere hakaba hari umusore uri ku igare ryifashishwa mugukora siporo iruhande rwe hakaba haparitse imodoka isa umukara, imbere yayo hakaba hari icyapa cya eyeteli.

Inyubako ndende igeretse gatatu isize irange ry'ibara ry'iganjemo n'iryijimye, ndetse n'iritukura ,imbere yayo hakaba haparitse imodoka zitandukanye. ndetse hakaba harimo urujya nuruza rwabantu. Ndetse impande zarwo hakaba hari n'ibinyabiziga bya moto.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba kigizwe n'ibyuma bito bito, bisize irangi risa umuhondo. Mw'imbere hakaba harimo amazu agiye atandukanye, hakaba harimo asize irangi ry'umuhondo, ndetse hakaba harimo n'indi iri hakurya y'izindi, yubakishijwe amatafari ahiye gusa.

Inyubako igeretse isize irang risa umuhondo n'umukara ifite igipangu cyubakishije urugi rw'imbaho, iruhande yarwo hakaba hari akazu kubakishije amatafari ahiye kanditseho ijambo siteyi apatimenti nk'icyapa kiranga iyi nzu.

Agace kiganjemo amazu agiye atandukanye harimo asakaje amabati atukura ndetse n'asakaje amabati asa umukara, mo hagati hakaba higanjemo ibiti byinshi birebire hakurya yabyo hakaba hari igorofa rihari ndetse nyuma yabyo hakaba hari n'irindi ritaruzura neza.

Inyubako igeretse gatanu, ikaba yiganjemo amabara asa umuhondo, imbere yayo hakaba haparitse imodoka nyinshi, iruhande rwazo hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu, imbere yabo hakaba hari ibinyabiziga bya moto biri mu muhanda.

Ni iguriro ricuruza ibikoresho by'imitako, hakaba harimo ibitandukanye mu mabara menshi, hahagaze umudamu wambaye iby'umukara, akaba agaragara nk'aho ari we ucuruza.

Inyubako igeretse kabiri ifite ibirahure bigaragaramo ibara risa ubururu imbere yaryo hakaba hari umukobwa uhahagaze uri kuri Telefone hejuru yaryo hakaba haca amasinga menshi cyane y'umuriro.

Inzu isakajwe amabati atukura iruhande rwayo hakaba hari ibigega bisa umukara iruhande rwabyo hakaba hari inzu isize irange risa umweru iruhande rwayo hakaba hari ibiti byinshi cyane hakurya yayo hakaba hari indi nzu ikiri kubakwa.

Imitaka myinshi igiye itandukanye harimo imitaka itukura ya eyateri ndetse n'uw'icyatsi wa infinigisi imbere yaho hakaba hateretse akabati gacururizwaho, amarinite imbere y'aho hakaba abantu benshi batandukanye harimo uwambaye ijiri ya emutiyene, isa umuhondo hakurya y'aho hakaba hari inzu iriho y'icyapa cya eyateri.

Inyubako igeretse isize irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo. Ikaba ifite igipangu gifite umuryango wubakishijwe imbaho, iruhande rwawo hakaba har'akazu gatoya, imbere yako hakaba har'ubusitani butoya burimo indabyo

Inyubako igeretse gatatu isa ibara ry'ivu ndetse n'ibara ritukura ryanditseho yusa puraza, imbere yayo hakaba haparitse amamodoka menshi iruhande rwayo rw'iburyo hakaba hari icyapa cyanditseho jitiko.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Utwuma tugufiya dusize irangi risa umweru, iruhande rwatwo hakaba hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho samba supamaketi, iruhande rwacyo hakaba hari igiti kitarakura, iruhande rwacyo hakaba hari imodoka zihaparitse, inyuma yazo hakaba hari inyubako ndende isize irangi risa umuhondo, ifite ibirahure bisa umukara.

Igiti kinini munsi yacyo harimo icyapa cyanditse keke makumyabiri esiti hakurya yacyo hakaba hari indabyo hakurya yazo hakaba hari amazu.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Abagabo bicaye ku nkengero z'umuhanda, bambaye amataburiya asa ubururu, inyuma yabo hakaba hari ibipope byambitswe imyenda, bisa n'ibyamamariza iduka ricuruza myenda rya Momento, iruhande rwayo rw'iburyo hakaba hari imodoka ihaparitse, iruhande rwayo hakaba hahagaze umugabo uri imbere y'igare.

Inyubako igeretse kabiri isize irangi risa umuhondo ikaba ifite ibirahure bisa umukara, ikaba ifit inkingi isize irangi ritukura, hejuru yaho hakaba hacaho amasinga atwara umuriro mu nce zitandukanye.

Imodoka iri mumuhanda isa ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo inyuma yayo hakaba hari izindi modoka nyinshi hakurya yayo hakaba hari umutaka usa umuhondo wa MTN inyuma yawo hakaba haparitse ikinyabiziga cya moto.

Umusozi ugizwe n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, ukaba wubatseho inyubako isakarishijejwe amabati atukura, hakurya y'uyu musozi hakaba hari ikibaya kiganjemo inyubako zitandukanye ndende ndetse nyinshi.

Amazu abiri ya etaje ageretse yegeranye imbere yayo hakaba hari parikingi yimodoka iparitsemwo imodoka eshatu imbere yazo hakaba hari urujya nuruza rwabantu ndetse nikinyabiziga cya moto.

Inzu nto isa ibara ry'umukara hakurya yayo iruhande rw'iburyo hakaba hari igisenge cy'inzu, gisakarishije amabati atukura, inyuma yayo hakaba hari anteni ya kanali pulisi, iruhande rwayo rw'iburyo hakaba hari amarido adafunze imbere yayo hakaba hari imodoka ihaparitse.

Imihanda imibiri itandukanye, hagati hakaba harimo ubusitani buyigabana, hakaba hateyemo indabyo ngufiya ndetse n'ibiti birebire by'imikindo, mo hagati hakaba harimo icyapa gisa umuhondo, hakurya yacyo hakaba hari imodoka nyinshi, ndetse hakurya yazo hakaba hari inyubako isa ibara ry'ivu.

Inyubako ndende cyane igizwe n'amagorofa atatu, yifashishwa mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'izindi servisi, ku ruhande rwayo rw'iburyo hakaba hari icyapa kinini cyane cya Eyateli, hepfo yacyo gato hakaba hari ikindi cyapa cya Gariyeni Kiriniki, iruhande rwayo rw'ibumoso hakaba hari itara rinini rimurika cyane.

Uruzitiro rwubakishijwe amatafari atwitse, rugizwe n'ibyuma bisi irangi ry'umukara, imbere yarwo hakaba hari ipoto rirerire ririho amasinga ajya mu nce zitandukanye, inyuma yarwo hakaba hari inyubako ndende igeretse gatatu iri mu ibara risa umukara ndetse n'amatafari atwitse.

Umunyonzi uhagararanye igare mu kayira k'abanyamaguru hakurya hakaba hari ikinyabiziga kirimo kiramurikira mu muhanda iruhande rwacyo hakaba hari ubusitani bwiganjemo indabyo ngufiya ndetse n'imikindo hakurya yabyo hakaba hari ikiraro gifite umuhanda hejuru ndetse hakaba harimo n'itara ririmo riracanira umuhanda.

Umuhanda wiganjemo amabara asa umweru, ukaba ugizwe n'urwambukiro rw'abanyamaguru rwiganjemo ibara risa umweru ndetse n'umukara, imbere yarwo hakaba hari imodoka isa ibara ry'umweru, hakurya yayo hakaba hari amashyamba menshi.

Umumotari uri ku kinyabiziga cya moto utwaye amacupa yifashishwa mu kubika gaze, imbere ye hakaba hari imodoka isa ibara ry'ubururu ikaba itwaye indi modoka imbere hejuru yayo hakurya yayo hakaba hari ibinyabiziga bibiri bya moto, hakurya yabyo hakaba hari ubusitani bwiganjemo ibyatsi bigufiya ndetse n'ururabyo rurerure.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota iri mu ibara risa umweru ndetse ikaba yiganjemo amagambo yandikishijwe ibara ritukura miti derivari, imbere yayo hakaba hari ikinyabiziga kigare, hakurya yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cy'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imiromgo isa umuhondo hakurya yaho hakaba hari imirongo isa umukara n'umweru hakaba higanjemo ibinyabiziga bitwara abagenzi bya moto ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo bya moto hakurya yaho hakaba hari ibiti byinshi.

Imodoka nini itwara imizigo ifite umutwe usize irangiriza risa icyatse iruhande rwayo hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu barimo baratambuka, imbere yayo hakaba hari ibindi binyabiziga nka moto ndetse n'indi modoka nini cyane isize irange risa oranje.

Kurwambukiro rw'abanyamaguru rwa zebura rugizwe n'imirongo isa umweru n'umukara, hakurya yarwo hakaba hari ibyapa bicanye ibara ritukura, iruhande rwabyo hakaba hari ibinyabiziga bya moto bitegereje guhabwa uburenganzira bwo kugenda.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye irimo ibinyabiziga bitandukanye bya moto ndetse niby'imodoka hakaba hari n'ubusitani burimo ibyapa biriho amatara ndetse n'ubusitani burimo ikirango k'isaha.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye higanjemo ibara risa umukara hakaba harimo umumotari utwaye umumama imbere yiwe hakaba hari izindi modoka nyinshi hakurya yazo hakaba hari inzu isakaje amabati asa ubururu.

Ikiraro cy'ubatswe mu buryo bugerekeranyijwe imihanda, hejuru hakaba harimo umuhanda hakurya yaho hakaba hari igiti kirekire, munsi naho hakaba harimo umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto ndetse n'igare.

Umumotari uri ku ikinyabiziga cy,amoto wambaye ijire isa ibara rya puresiri. Ndetse n'umuhondo hakurya hakaba hari ibindi binyabiziga bya moto ndetse nibinyabiziga by'imodoka bisa ibara ry'umweru ryivanze niry'icyatsi, ndetse nibyibara byumweru byiganjemo ibara ry'ubururu. Hakurya yaho hakaba hari ipoto zitwara insinga muce zitandukanye.

Umumotari uparitse moto ku nkengero z'umuhanda, wambaye ijiri isa umuhondo n'ubururu, iruhande rwe hakaba hari umugabo usa n'umwaka, serivise inyuma yaho hakaba hari mota izwi nk'itwara imizigo isa ubururu inyuma yayo hakaba hari umutaka wa eyateri, mo hasi hakaba hateretse akabati i gasa umuhondo iruhande rwaho hakaba hari abantu bagiye batandukanye.

Umuhanda wiganjemo imirongo isa umuhondo ndetse numukara hakurya yawo hakaba hari imodoka hakurya yiyo modoka hakaba hari urwambukiro rwabanyamaguru rukaba ruri kwambukirwamo nabantu babiri hakurya yarwo hakaba hari ibiti byinshi ndetse mamazu menshi.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya yawo hakaba hari ipoto rirerire rihashinze, hakurya yaryo hakaba hari ibiti birebire ndetse iruhande rwabyo hakaba hari rigore zicamo amazi nazo ziganjemo ibiti birebire, hakurya yabyo hakaba hari amazu maremare yiganjemo ibara ryijimye ndetse n'irisa beje.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Umusore wambaye umupira usa umweru, akaba yambaye inkweto zisa umweru ndetse n'amadarubindi asa umukara, akaba ari ku igare ritoya ryifashishwa mu gukora siporo, hakurya y'iwe hakaba hari ipoto ifatiraho amatara amurika mu muhanda, hakurya yayo hakaba hari ibiti byinshi.

Parikingi yiganjemo imironko isa umweru n'umukara. Iruhande rwayo mu muhanda hakaba harimo ikinyabiziga cy'igare, imbere yacyo gato hakaba hari ikinyabiziga cya moto , hakurya yacyo mu wumundi mu handa hakaba hari mo imodoka ndetse n'ikindi kinyabiziga cya moto, hakurya yabyo hakaba hateye ibiti.

Ikinyabiziga cya moto kiri mu muhanda, imbere yacyo hakaba hari imodoka itukura nini cyane itwara imizigo, iruhande rwayo hakaba hari umutaka wa eyateli, inyuma yawo hakaba hari ibiti birebire cyane.

Ihuriro ry'imihanda ririmo icyapa gisize ibara ry'umweru iruhande rwacyo cy'ibumoso hakaba hari iknyabiziga cya moto, hakurya yaryo hakaba ahari imodoka isa ibara ritukura n'umukara, hakurya yayo hakaba hari ibiti byinshi.

umuhanda wa kaburimbo mo hagati hakaba harimo imodoka isa umutuku, hakurya yayo iruhande rw'ibumoso hakaba hari indi modoka nini iparitsesa ubururu.

ikinyabiziga cy'imodoka kiri mu muhanda iruhande rwacyo rw'ibumoso hakaba hari ikinyabiziga cya moto cyiganjemo ibara risa ubururu cyifashishwa mu gutwara imizigo, imbere yabyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cya moto yifashishwa mu gutwara abantu, iruhande rwacyo hakaba hari umunyamaguru, hakurya y'iwe hakaba hari ibiti birebire.

Ihuriro ry'imihanda myinshi rigizwe n'ubusitani burimwo ibyatsi bigufiya, ibiti birebire ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye, iruhande rw'iburyo bwabyo hakaba hari ibiti birebire ndetse n'uruhande rw'ibumoso hakaba hari ibiti birebire, no hagati hakaba harimwo amapoto ariho amatara amurikira umuhanda.

umuhanda wiganjemo imirongo isa umuhondo ndetse n'imirongo isa umweru iruhande rwaho hakaba hari parikingi, iruhande rwayo hakaba hari icyapa kigaragaza ko aho hantu hari parikingi hakurya yayo mu nzira y'abanyamaguru hakaba harimo utwana dutoya tw'utunyeshuri.

Umuhanda ugizwe n'imirongo isa umweru ndetse n'umuhondo hakurya yawo hakaba harimo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka hakurya yabyo hakaba hari ibiti byinshi.